Ikigo cy'amashuri kiza cyane, cyubatswe mu buryo bugezweho gitewe amarangi, ndetse kinafite ubusitani bwiza cyane. Harimo amabendera y'igihugu ndetse, bitoza abana gukunda igihugu cyabo, ndetse no kumenya umuco no kuwubahiriza.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bigaragara yuko harimo umwarimu wabo akaba yababajije ikibazo, bakaba bateye hejuru amaboko yabobo bashaka gusubiza. Bicaye mu meza amakaye n'amakaramu barambitse imbere yabo, bakaba bashishikajwe no kwiga.

Abantu bigaragara ko ari abanyeshuri bakaba bakoze urugendoshuri rwo kureba ibyiza cyangwa se ibintu karemano imana yaremye biri ahantu hagiye hatandukanye bakaba basuye ahantu hari ikibumbano cy'ingagi hashobora kuba ari ahantu hakorerwaga ubukerarugendo.

Abanyeshuri bari mu cyumba cyo gukoreramo ibikorwa ngiro kizwi nka laboratwari, bakaba bari kwiga uko ibikoresho bigiye bitandukanye bikora cyangwa se bikoreshwa.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bafite ibikoresho by'ishuri birimo: amakayi, n'amakaramu, ndetse bambaye n'udupfukamunwa, n'iniforume. Bakurikiye mwarimu wabo kugira ngo abahe amasomo agiye gatandukanye.

Abakozi bakora umwuga wo gukanika ibinyabiziga, bari gukanika imodoka yagize ikibazo, abakanishi bakora akazi kabo ka buri munsi, kakaba ari nako kabaha amafaranga, abatungaga mu buzima bwabo.

Abanyeshuri bari kwitoza akazi ko kudoda imyambaro itandukanye, abantu bambara mu bihe bitandukanye. Abanyeshuri bakaba bari kwitoza kudoda iyo myambaro, bakoresheje icyuma gikoreshwa bari kudoda kizwi nk'icyarahani.

Abantu bari mu gikorwa cyo gutunganya imbaho kugira ngo bakoremo ibikoresho bigiye bitandukanye birimo: ibitanda, inzugi cyangwa se ibindi bikoresho bikozwe mu biti. Iki gikorwa kikaba cyitwa kubaza bifashishije imashini zikoreshwa mu bubaji.

Umuntu uri gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, birimo imashini cyangwa se kopiyuta, hakaba harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye yifashisha mu kazi ke.

Abantu bari mu cyumba cy'ubudozi, gishobora kuba ari atoriye cyangwa se ahakorerwa ubudozi, bakaba ari abantu benshi bashobora kuba bibumbiye mu ishyirahamwe, bose bakaba bahuze bari mu kazi kabo, bari kudoda.

Umunyeshuri uri kwiga, akoresheje ikoranabuhanga, abifashijwemo na mwarimu we uri kugenda ari kumwereka uko imashini ikoreshwa, ndetse no kumwereka uburyo ki yakwiga akoresheje kino gikoresho gikoresha ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bari gukurikirana amasomo bitonze, bafite ibikoresho byabo birimo amakayi n'amakaramu, bakaba biganjemo ab'igitsina gore cyangwa se abakobwa.

Ishuri ryubatse mu buryo bwa kijyambere, rikaba ririmo ibikoresho byiza cyane abanyeshuri bifashisha bari kwiga, birimo intebe nziza, ameza, hakaba harimo n'ikindi kintu bandikaho kitwa ikibaho, n'ibindi bikoresho bakoresha iyo bari kwiga imibare, byitwa amarati.